Iki ngiki akaba ari icyapa kerekana ko aga ngaha ari mu karere ka Bugesera, Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'iburasira zuba mu gihugu cy'urwanda, ni ahantu heza harambuye gusa haba ubushyuhe.